Umuhanda w'igitaka, ukikijwe n'indabo nyinshi cyane, uri gutambukwamo n'abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano zisa.

Inyoni eshatu zifite amabara y'umutuku inyuma harasa umweru, hejuru no hasi handitse amagambo asa umukara.

Igikuta cyamabara y'umweru, kiriho n'idirishya ry'umukara, gishushanyijeho igiti kirimo gikura cy'amabara y'icyatsi ndetse binanditseho.

Umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bambaye impuzankano zo ku ishuri rimwe umukobwa ahetse igikapu, inyuma yabo hari igiti ndetse n'ibyatsi.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo, idirishya ry'umukara, hashushanyije inzovu mu ibara ry'umukara iri gutembera mu byatsi, imbere hari isima ishaje.

Amashuri ari hamwe arimo aragurumana umwotsi ugatumuka, imbere hari aho abanyeshuri bifashisha mu kwanika ndetse n'ikibuga cy'amatafari.

Igikapu gifite ibara rya pinki, gishushanyijeho ibinyugunyugu byinshi, kifashishwa n'abanyeshuri mu gutwara ibikoresho ku ishuri, giteretse ahantu hafite ibara ry'umweru.

Abana batoya cyane benshi bambaye imyenda isa, bari ahantu hamwe bamwe bicaye ku musambi abandi barahagaze, abandi bafite ibikinisho ariko hari abandi bateruwe n'ababyeyi.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bari kumwe n'umwana mutoya, wambaye yifubitse, bari kumutungira urutoki k'umubare w'ikenda, uri kumeza, ateretseho icupa ry'amazi.

Igare ry'igikinisho ry'abana by'amapine y'umukara aho bafata h'umukara ndetse n'amahembe y'umukara n'umutuku aho bicara hatukura ndetse hatwikirijwe n'ikintu gitukura.

Abanyeshuri bato babiri bari ku byicungo, babifashe, inyuma yabo hari abasore n'inkumi bakuru bambaye imyenda isa, hejuru ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari imiyenzi.

Inyubako isize irangi risa umweru, imbere hari isima iriho amazi, imbere hakaba akayira k'ibitaka, imbere hakaba hari ibyatsi, imbere hakaba hari ibiti.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu, ku ruhande hari umuhanda w'ibitaka, uri kunyuramo abana benshi b'abanyeshuri, bambaye impuzankano, hirya hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ikigo cy'amashuri cy'amabara y'umuhondo, umweru n'amabati atukura, gishushanyijeho bimwe mu bintu byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga harimo ifi, itoroshi, umwana, igisokozo, indobo ndetse n'ibishyimbo n'igitoki.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwiga cyane cyane ku bana, bigaragaza amakaramu y'igiti cyo mu bwoko butandukanye bw'amabara ndetse n'ayandi yandika ateretse hasi, impakasi, ibyifashishwa mu guca imirongo n'ibyifashishwa mu gusiba ibyo banditse.

Abana b'abanyeshuri, barimo abahungu n'abakobwa, bicaye mu ntebe mu ishuri z'imbaho, imbere yabo hari ikibaho cy'umukara ndetse handikishijwe ingwa y'umweru, amagambo n'imibare, ku nkuta hateretseho bimwe mu bindi bintu bibafasha mu kwiga.

Igikuta gifite ibara ry'umweru, hejuru hari idirishya rifite ibara ry'umukara, hashushanyijeho ibintu bigaragaza uburyo igishyimbo gikura mu butaka.

Ikibwa gifite ibara ry'igitaka, mu kanwa kacyo harimo igipupe gikinishwa n'abana kiri gukanura n'amaso, inyuma hari ibyatsi n'amabuye.

Umwana mutoya wambaye umupira w'icyatsi, afite igikoresho mu ntoki cyo guteresha amarange, ari gutera irange ry'umuhondo ku gikuta gisa umweru.

Ibikinisho by'abana batoya biri mu mabara atandukanye nk'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'imizabibu isa umutuku n'ururabyo rusa umuhondo.

Isenani ifite ibara ry'umuhondo, ifashe ku kibabi gifite ibara ry'icyatsi, mu giti kinini cyane, hirya hari andi mashami atariho ikintu na kimwe.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo gishushanyijeho inka iri mu byatsi, hejuru hari idirishya ry'umukara ndetse n'umuryango urimo umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano.

Imiryango itatu yegeranye, irimo abagabo babiri mu muryango ubanza, icururizwamo, imbere yayo hari ipikipiki ndetse n'umufuka w'umweru.

Umusore umwe uhagaze akikiye ikintu gishushanyijeho umuntu ndetse n'amagambo agiye atandukanye, inyuma ye hari abantu bicaye, imbere ye hari igiseke.

Igice cy'imbere kigaragaza igikapu, gifite ibara ritukura cyifashishwa n'abanyeshuri mu gutwara bimwe mu bikoresho bifashisha biga nk'amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi.

Igikuta gifite ibara ry'umweru, ku ruhande hari idirishya ry'umukara, hashushanyijeho inka ndetse inanditseho, ku ruhande hari musumbashyamba, ryifashishwa mukwiga.

Igikuta gifite ibara ry'umweru munsi hasa umukara hari umuryango w'umukara ufunguye ugaragaza ishuri ririmo abanyeshuri, ku gikuta hari umusumbashyamba ndetse n'umuntu.

Igare ryifashishwa umuntu agaterekaho amaguru amaboko akayafatisha mu mahembe, rifite ibara rya piki, ku ruhande hari utuziga tugiye tugaragaza bimwe mu bice bikigize.

Igikuta gifite ibara ry'umweru gishushanyijeho ingofani y'ubururu n'ipine ry'umukara ndetse n'inyama itako, hanyuma kuruhande hakaba hari igishushanyo cy'inkoko.

Ikibwa gifite amabara y'umukara n'umweru hasi, kirimo kirakina n'umupira ufite ibara ry'umutuku wiganje n'icyatsi kerurutse, ahantu hasa umukara.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo gishushanyijeho kimwe mu bintu byifashishwa mu kwiga nk'ingorofani, hejuru hari idirishya ryo mu ibara ry'umukara munsi hari isima ishaje.

Urukuta gifite ibara ry'umweru munsi hasa umukara hari n'isima ku gikuta hashushanyije bimwe mu byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga nk'bishyimbo uko bimera mu butaka ndetse binanditseho mu magambo.

Ibikinisho by'abana bato byegamye ku gikuta gifite ibara ry'umweru, kimwe muri byo gifite ibara ry'umuhondo, ikindi kikagira ibara ry'ubururu, ikindi kikagira ibara ry'ivu.

Ishuri ririmo abana batoya b'abanyeshuri, ku ruhande ku gikuta hagaragaraho bimwe mu bishushanyo byifashisha mu kwiga nk'umuhoro, igitiyo, isuka, umwiko ndetse n'ingorofani.

Ishuri ryigamo abanyeshuri bato baririmo, hanze kigaragaza amabara y'umweru, ndetse n'idirishya ry'umukara, ku gikuta hashushanyijeho amasaha atatu yifashisha mu kwiga, kandi hegetseho n'igare ry'umukara.

Abana benshi cyane batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umuhondo hejuru n'amakabutura y'icyatsi, bicaye hasi barimo bararya ibiryo ku isahani, inyuma yabo hari abantu batari abanyeshuri bari kubafasha kubagaburira.

Igikuta gifite ibara ryumweru hasi hagasa umukara, hashushanyije inkoko n'umushwi wayo bisa umukara, ku ruhande hari igishushanyo cy'umwana kigaragaza ibice by'umubiri, wambaye ikabutura y'ubururu, imbere hari umuntu uri gutambuka.

Ikigo cy'abana b'inshuke, kigizwe n'amabara y'umuhondo n'amabati atukura, gishushanyijeho bimwe mu byifashishwa bari kwiga, ibice bigize umuntu, ingorofani, ibikoko bigiye bitandukanye ndetse imbere yaho hari ikibuga kirimo ibyatsi by'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri gifite amabara y'umweru n'umukara n'amabati y'umutuku gishushanyijeho bimwe mu bintu bifasha abanyeshuri mu kwiga, harimo ibice bigize umuntu nk'umutima n'impyiko n'uburyo amaraso atembera mu mubiri, itoroshi, isaha n'ifi ndetse hegetseho n'igare.

Umwana mutoya w'umunyeshuri wambaye impuzankano, ari ku kibaho cy'umukara, afite ingwa y'umweru, arimo agenda yandika inyuguti zimwe na zimwe.

Igipupe gifite ibara ry'umweru cyegamye ku gikapu cy'umutuku cyifashishwa n'abana bagiye kwiga batwaramo amakaye, amakaramu, n'ibindi.

Igikapu gifite amabara y'umweru ndetse n'imigozi ifite ibara ritukura, kirimo gushyirwamo ibindi bintu n'umuntu ufite akaboko kera.

Igikuta cya'mabara y'umuhondo, gishushanyijeho bimwe mu bintu byifashishwa mu kwiga kw'abana, nk'intare, umuntu, imodoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo n'idirishya ry'umukara, gishushanyijeho umugabo ndetse n'injangwe munsi hari isima ndetse n'umuryango urangaye w'umukara.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo, gishushanyijeho bimwe mu byifashishwa n'abana mu kwiga nk'ingorofani, abana bakiriho icyo gikuta umwe aregamye undi ari kuhatambuka.

Igikapu gifite ibara ritukura ndetse ririho n'igishushanyo cyaba kiri mu ibara ry'umuhondo n'umunwa w'umweru n'amaguru asohokamo nayo y'umuhondo.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu arimo akinisha ibintu by'imizenguruko ifite amabara atandukanye ubururu, umuhondo, umutuku n'ibindi.

Igikapu gifite ibara ry'umweru, umutuku, umukara, umuhondo n'imigozi kirikubikwamo ikindi gikapu, imbere yacyo hateretse ibikoresho bifashisha barya ndetse n'imbuto.

Igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse n'idirishya ry'umukara munsi yaryo hari ibishushanyo bigaragaza uburyo igishyimbo gikura mu butaka ndetse binanditseho.

Ikibwa gisa umukara, kiryamye mu bikinisho bitandukanye by'abana, imbere hakaba umufuniko ufite ibara ry'umutuku, hirya hakaba ibindi bikinisho kitaryamyeho.

Igikuta gifite ibara ry'umweru, gishushanyijeho igiti kinini hejuru gifite amabara y'icyatsi, ndetse n'ibindi biti bitoya munsi yacyo, ku ruhande hari idirishya ry'umukara.

Ingofero ebyiri imwe isa umweru, indi hejuru isa umuhondo biteretse ku kintu, hirya hari urukuta rufite ibara ry'umweru, hasi hakaba hari ikintu gisa icyatsi.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku wiganje ndetse n'andi mabara nk'umuhondo ndetse n'ubururu, kifashishwa n'abanyeshuri batwayemo bimwe mu bikoresho byo kwiga nk'amakaye n'amakaramu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bato cyane abahungu muri bo bambaye impuzankano za kaki, abakobwa muri bo bambaye amakanzu y'ubururu, bari imbere y'Ibendera ry'u Rwanda, imbere yaryo hari abagore b'abigisha bambaye amataburiya yera.

Igikinisho abana bakinisha bashungukamo, gifite amabara menshi atandukanye, hari umwana uri kukimanukamo, inyuma hari n'abandi barikurizamo.

Igishushanyo cy'umwana wambaye ikabutura yonyine, kigaragaza ibice bimwe na bimwe by'umubiri bigaragarira hanze, ku rundi ruhande hashushanyije imbwa na yo ku gikuta.

Inzira ikomeza y'ibitaka iri gukinirwamo n'abana benshi b'abanyeshuri bato ku ruhande hakaba umurima imbere hakaba ipoto ry'amashanyarazi.

Ishuri rifite ibara ry'umweru, umuhondo n'amadirishya n'imiryango bifite ibara ry'umukara, ku nkuta hashushanyijeho bimwe mu byo bifashisha bari kwiga nk'igitoki ndetse n'ibishyimbo.

Abana bamwe bicaye hasi, abandi babiri bateruwe n'abamama, barimo barabafasha kubagaburira, inyuma yabo hari umugabo uhagaze, uhetse igikapu ari kwitegereza.

Ikigo cy'amashuri gifite ishuri rifite igikuta cy'umweru gishushanyijeho ibintu bitandukanye byifashishwa mu kwiga nk'umwana, igisokoza, indobo ndetse n'ibase.

Umwana mutoya w'umunyeshuri wambaye impuzankano n'ingofero, ari kugenda yikuba ku gikuta gisa umweru cyanditseho amagambo ndetse n'igishushanyo cy'umwana.

Ibipupe bibiri kimwe gisa igitaka ikindi gisa umweru, imbere hari imodoka n'ibindi bikinisho, byicaye ahantu ku meza ifite ibara ry'umweru.

Igikuta gifite ibara ry'umweru ku ruhande hakaba idirishya ry'umukara hashushanyije ibishushanyo bitandukanye birimo itembera ry'amaraso mu mubiri, itoroshi ndetse n'u Rwanda.

Urukuta rw'ishuri ryubatse mu ibara ry'umweru, hasi hasa umukara hari no gutambuka abana ku isima, ku gikuta hashushanyije bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwiga, harimo ibiti n'ibishyimbo.

Abanyeshuri batoya cyane benshi bicaye ahantu, barimo barakina n'abantu bakuru bambaye imyenda y'icyatsi, inyuma yabo hari insakazamajwi ihagaritse y'ibara ry'umukara.

Igikuta cy'ishuri gifite ibara ry'umuhondo, gishushanyijeho amagufwa y'umuntu n'ibindi bishushanyo, kikagira amadirishya y'umukara n'imiryango y'imikara n'isima ishaje, imbere hari ibitaka n'ibyatsi.

Urukuta rufite ibara ry'umuhondo ruriho ibendera ry'u Rwanda n'idirishya ry'umukara munsi hari igikoko gisa umukara kihashushanyije kiri mu byatsi, hirya hari inzu na yo iteretseho igishushanyo cy'umweru.

Urukuta rw'umweru rushushanyijeho ikibwa mu ibara ry'umukara binanditseho ndetse n'injangwe mu mabara y'umukara, ku ruhande rw'aho hashushanyije umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru, hejuru hari idirishya munsi hari isima.

Igikuta cy'umweru ndetse hasi hagasa umukara, kigiye cyanditseho amagambo n'ibishushanyo byifashishwa mu kwiga, hariho ibiti ndetse n'inyama y'inkoko.

Umuntu ufite ukuboko kwanditseho ibishushanyo by'abana babiri bari kwitegereza imbere, aguteretse ahantu hafite ibara ry'umuhondo.

Igikuta gifite ibara ry'umweru cyishushanyijeho bimwe mu bishushanyo byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga. harimo amatoroshi ndetse n'uburyo amaraso atembera mu mubiri.

Igikuta gisa umweru gishushanyijeho umusambi n'inka umuryango wacyo urimo abanyeshuri babiri umwe arahagaze uwundi arimo arasohoka hanze.

Umusore ufite ibisuko yambaye agapfukamunwa ari mucyumba ashushanyirizamo ibintu bitandukanye byubugeni bwe, inyuma ye hari ameza ateretseho amarangi yifashisha mu gushushanya.

Ibyicungo bitatu bikinishwa n'abana batoya barya umunyenga mu masaha yo gukina, kiri mu byatsi mu kibuga cyuzuyemo ibiti hirya hari inyubako y'umweru.

Umwana mutoya w'umuzungu arimo akinisha bimwe mu bikoko bigaragara mu mashyamba, harimo umusumbashyamba, inzovu, intare ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, yiganjemo n'amabara y'ubururu n'amabati y'umweru, imbere yayo hari ikibuga cy'ibyatsi ndetse n'ibyicungo abanyeshuri bakiniraho.

Igikuta cy'umweru ku ruhande hari idirishya rifite ibara ry'umukara, ku rukuta hashushanyije ndetse handitse, ibifasha abana mu kwiga nk'ibiti ndetse n'inyama y'inka ndetse n'iy'inkoko.

Abana batoya cyane barimo abahungu n'abakobwa, bari musambi barimo barakina ndetse buri umwe wese afite ikintu mu ntoki, harimo abari kunywa ndetse abandi barahagaze gusa.

Umuryango ucururizwamo ugeretseho imifuka myinshi n'imbere bari gukoreramo, hanze hari ikibuga cy'amatafari, hari umufuka umwe n'undi w'igice bisa umweru n'ipikipiki ihahagaze.

Abana batoya bishimye bambaye ingofero z'abasiramu umwe muri bo arimo aratera irangi ry'umweru ku rukuta undi arahagaze inyuma arimo kwitegereza hirya hari abandi benshi barimo baritegereza nabo.

Ikigo cy'amashuri gifite amabara y'umuhondo n'umweru, n'amadirishya n'imiryango bisa imikara, n'amabati asa umutuku, gishushanyijeho bimwe mu bice bigize umuntu, nk'umutima, impyiko, itembera ry'amaraso mu mubiri, amatoroshi ndetse n'amasaha ndetse ryegetseho n'igare.

Icyumba kirimo utubati tubiri tw'imbaho, turimo ibitabo bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kwiga, bifite amabara atandukanye.

Igitabo kigaragaza umwana uhagaze wambaye imyenda ya kaki, imbere yiwe hari ibyatsi ndetse n'urusengero hirya cyane.

Ibikoresho bitandukanye birimo ururabyo, radiyo, ipantaro, ijipo, inkweto, umuneke, ingofero na voka, biri hamwe, inyuma harasa umweru.

Igitabo cy'umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, kigaragaza ko ari icya siyanse, hari abana babiri bicaye ku ntebe n'ameza abateretse imbere.

Umwana mutoya w'umunyeshuri ukikiye igitabo, gifite ibara ry'umutuku, hejuru y'iwe hazengurutswe inyuguti nyinshi cyane zifashishwa.

uruziga rumwe rw'izina rya C, ruriho imibare ku ruhande uruziga rufite izina rya D na rwo indi mibare, hagati yabyo harimo imibare bihuriyeho.

Amashuri yubatse ageretse, yubakishijwe amatafari ahiye n'ibara ryiganjemo umweru, icyatsi, ku gisenge hasa ibara ry'ubururu, imbere hari akayira.

Amashuri yubatse ku murongo yubakishijwe amatafari ahiye n'amabara arimo umuhondo ndetse n'umutuku ku mabati, imbere yaho hari ubusitani ndetse n'ibendera ry'u Rwanda.

Buwate ifunguye irimo ibikoresho bike, ibindi biteretse ku rupapuro ndetse hari umuntu urimo arazengurukisha ikaramu y'igiti, yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Igitabo kigaragaza inyoni ebyiri k'Ikinyarwanda zihagaze ku ngiga z'igiti ndetse n'ibyatsi n'indabo biri ku ruhande, inyuma nta kindi kintu gihari.

Imibare ya rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, hejuru yayo hariho ikibabi cy'icyatsi, biri munsi y'igiti, ku ruhande hari umubare wa karindwi munini.

Akana gatoya kifashe mu nda n'amaboko yombi, kameze nk'aho katangaye, ku ruhande hari amagambo, avuga ko umwana w'umuhungu uhora avuga yagarutse.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande hari ikigega amazi y'imvura amenekamo, inyuma hari umurima w'insina ndetse n'ibiti n'ibindi bihingwa.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri harimo imikasi, amakaramu y'ibiti y'amabara agiye atandukanye yifashishwa mu gushushanya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibikoko bitoya bigiye bitandukanye, uhereye ku ruhande rw'ibumoso hari inkoko, hagakurikiraho ifi, hagakurikiraho urukwavu, hagaheruka injangwe. Munsi handitse amagambo mu ibara ry'ubururu.

Igitabo cy'Ikinyarwanda cy'umwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri abanza, kigaragaza abana bazengurutse ameza ndetse n'abandi bantu bari kubyina hanze mu idirishya.

Igitabo k'Ikinyarwanda kigaragaza inkuru ishushanyije, y'umusore n'inkumi bari kwirukanka, umwe yambaye ikabutura n'agapira, umukobwa inyuma akambara ikanzu itukura.

Buwate ifunguye irimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga harimo ikaramu y'igiti, ibiyifasha kugororoka ndetse n'ibyo bifashisha basiba ndetse n'igikoresho bifashisha baca imirongo izengurutse.

Bote z'umukara, ga zifite ibara ry'umukara ndetse n'agapfukamunwa gasa ibara ry'ubururu n'imigozi y'umweru, munsi hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Amashuri menshi yubakishijwe amatafari, ndetse n'imiryango yiganjemo ibara ry'umuhondo, n'amabati atukura, imbere yayo hari Ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ikibuga k'ibyatsi.

Buwate ifunguye igaragaza bimwe mu bikoresho byayo birimo ibyo bifashisha bandika imirongo ihagaze, iyizengurutse, ikaramu y'igiti, ibyifashishwa mu kuyisongora ndetse no mu gusiba ibyo banditse badashaka.

Icyumba cyo kwigiramo giteretsemo udukoresho twinshi turimo inyuguti n'imibare ku nkuta handitseho amagambo menshi ndetse n'ibishushanyo ku ntebe n'ameza biteretse ku ruhande nta kintu kiriho.

Ibikoresho byinshi bikoreshwa mu kwiga harimo: imikasi, amakaramu menshi y'igiti yifashishwa mu gushushanya n'amabara atandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kugorora imirongo.

Buwate ibamo ibikoresho byifashishwa mu kwiga ifite ibara rya pinki, ibikoresho byakuwemo biri hasi, bigaragaza bimwe mu byifashishwa mu guca imirongo igororotse n'ibyifashishwa mu gukora uruziga.

Icyumba kirimo abanyeshuri bicaye hamwe ku murongo, bambaye impuzankano n'umudamu wambaye umwenda utukura, afite impapuro z'umweru mu ntoki, imbere hari ikibaho cy'umukara.

Buwate ifunze ku ruhande hari bimwe mu bikoresho byayo nk'irati yifashishwa mu guca imirongo ihagaze ndetse n'izengurutse n'ikaramu y'igiti n'ibiyisongora ndetse n'ibisiba ibyo banditse badashaka.

Abana batoya bicaye ku musambi abandi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umusaza n'umukecuru, umusaza uri kubwira inkuru afite n'agakoni, umukecuru arimo aratoranya ibintu bari burye.

Abana benshi barimo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zimwe imbere yabo hari ikibaho gisa umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru, amagambo ndetse n'imibare ku ruhande hari ibishushanyo bihateretse bibafasha mu kwiga.

Buwate yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga imibare n'ubugenge, ibikoresho bimwe na bimwe bigaragara hanze byifashishwa mu guca imirongo ihagaze ndetse n'ibyifashishwa mu gushushanya ibintu bizengurutse no kugorora ikaramu y'igiti.

Ibitabo byinshi bigeretse hamwe, hejuru hari urubuto rwa pome n'ikaramu y'igiti, ku ruhande hakaba amakaramu y'igiti menshi n'imakasi.

Isanzure rigaragaza imibumbe yose riyirimo ndetse n'izuba riri hagati, n'inzira ya buri mu bumbe uko igenda izenguruka izuba.

Umwana muto wambaye umwenda w'umukara n'umugore wambaye itabuririya y'umweru bari imbere ku kibaho bandika bifashishije ingwa y'umweru, ku kibaho gisa umutakara.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe irambaraye ndetse n'ihagaze n'umusambi uri hasi ku isima n'ikibaho cy'umukara, cyandikishijweho ingwa zitandukanye.

Umwana wicaye mu mutwe wiwe hari igipapuro cy'umuhondo, cyanditseho bombo. Ku ruhande zigiye zijombye mu mutwe wiwe, afite ikaramu y'umukara ari kwandikisha.

Igitabo cy'umwaka wa kabiri w'amashuri abanza cya siyanse kigaragaraho abana barimo batera ibiti, abandi barimo baravanga ibintu bigiye bitandukanye by'umukara.

Igitabo kiriho umugezi utemba, ibyatsi byinshi, hirya hari umusozi w'umukara, hejuru hari ibicu n'amagambo.

Umwana w'umukobwa ukikiye umuriro mu kuboko kwe kw'iburyo, imbere ye hari ibintu bitandukanye, birimo ibicuma ndetse n'ibindi bintu bifite ibara ry'umuhondo.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kubaka, harimo inyundo, amaburo, umwiko, nivo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'ibibaza ndetse n'ibindi.

Umuntu wambaye isengeri itukura, wamanuye ipantaro yicaye mu byatsi hirya y'umugezi, arimo ariherera hasi ndetse umugezi uri gutembana ibyo ari kwiherera.

Amashuri yubatse ateganye, yubakishijwe amatafari ahiye, n'amabara yiganjemo ubururu n'umutuku, imbere yayo mu byatsi hari gukiniramo abantu, harimo abana n'abandi bantu batatu bakuze.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abana batoya mu kwiga, bigizwe n'amabara atandukanye, bimwe byometse ku nkuta, ibindi biteretse hasi birimo amagare, ameza, intebe n'ibindi byinshi.

Amashuri ageretse kabiri yubakishijwe amatafari ahiye n'amabara yiganjemo icyatsi n'ubururu, imbere hakaba kandagirukarabe iri mu ibara ry'icyatsi, ku ruhande hakaba umuntu wicaye imbere.

Inyubako ifite amabara ya kaki ndetse n'amabati afite igisenge gisa umutuku n'idirishya rifunguye, imbere mu kibuga cy'ibyatsi hari impyisi yitegereje.

Abana bato b'abanyeshuri, barimo abahungu n'abakobwa, bicaye mu cyumba ku ntebe ku meza hateretse ibyoku kurya bari kurya ndetse n'ibyo kunywa, inyuma yabo hari idirishya rifunguye.

Buwate ifunze ku ruhande rwayo hari bimwe mu bikoresho byayo harimo ibifashishwa mu kugorora imirongo, ibyifashishwa mu gushushanya uruziga, ndetse n'ibigorora ikaramu y'igiti n'ibyifashishwa gusiba.

Umugabo wambaye ishati yicaye ku ntebe y'urubaho imbere ye ku meza hateretse ibitabo byinshi afite ikaramu y'ubururu mu ntoki ari guseka inyuma ye hari ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru.

Inyubako iri ahantu hitaruye imbere yayo hari igiti cyanitseho imyenda ndetse n'ikibuga cy'umukara kirimo bimwe mu bikinisho by'abana nk'amagare ndetse n'amameza.

Ishuri ririmo ibintu byo kwigiramo bitandukanye, byometse ku gikuta, intebe n'ameza byicarwaho n'abanyeshuri ndetse n'ikibaho gisa umukara, gishushanyijeho n'ingwa y'umweru, bimwe mu bishushanyo by'abanyeshuri.

Ibitabo byinshi n'amakayi bigeretse hamwe, ku ruhande hari ibindi bikoresho byifashishwa mu kwiga, nk'amakaramu y'igiti y'amabara atandukanye n'imakasi n'izindi mashini zifashishwa mu guteranya imibare no guhuza hamwe impapuro.

KIkigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafarihiye ndetse n'amabara yiganjemo, ubururu n'icyatsi, imbere yaryo hari abanyeshuri ndetse n'abandi bantu, hakaba ibiti, ku ruhande hakaba insakazamajwi y'umukara.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imiryango ifite amabara atandukanye, y'icyatsi n'ubururu n'ayandi, imbere hari umugabo w'imyenda y'imikara, ndetse imbere mu kibuga hari kandagira ukarabe.

Igipangu gisizwe ibara ry'icyatsi cyanditseho amabara y'umweru agaragaza ikaze ku kigo cy'amashuri cya Rukomo, cyinjira imbere hakaba hari amashuri ndetse n'umuhanda w'bitaka n'indabyo.

Abana b'anyeshuri bari mu ishuri ry'amatafari ndetse n'ibikuta n'amadirishya y'ubururu, bamanitse akaboko bamwe abandi bari kwitegereza, imbere yabo ku kibaho hari umukobwa uri kubigisha w'itaburiya y'umweru.

Amashuri yubatse ku murongo, aho atandukanira hashushanyije umwana w'umusore n'umukobwa n'amagambo menshi mu ibara ryijimye ku gikuta cy'umweru, imbere y'ayo mashuri hari ibendera ry'u Rwanda n'umugozi w'amashanyarazi, inyuma y'amashuri hari ibiti byinshi.

Amashuri yubatse ku murongo yubakishijwe amatafari ahiye n'amabara arimo umuhondo n'umweru, hejuru imbere hari ibitaka.

Abantu barimo abagabo ndetse n'umugore umwe, barimo bareba imbere, inyuma yabo hari ikigo cy'amashuri, inyuma hirya hakaba ibiti byinshi cyane.

Abana benshi bicaye bari kwitegereza umusaza wicaye ku gatebe ari kubatera inkuru mu byatsi, munsi y'igiti kinini, ku ruhande hirya hari inzu.

Indobo nyinshi zifite amabara atandukanye, ziri hejuru y'ameza ndetse zirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwiga ndetse no munsi yayo hari ibindi bikoresho.

Abagore babiri bakikiye igikarito bateruje umugabo bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari amashuri yigirwamo bari mu kayira k'igitaka.

Abana batoya benshi bambaye impuzankano amashati y'umuhondo n'amakabutura cyangwa amajipo y'icyatsi barimo barakina, bakinira ku kicungo kibazengurutsa.

Amarembo yo ku kigo cy'amashuri, afite ibara ry'ubururu, hejuru ibara ry'umweru, handitseho ngo murakaza neza, mo imbere hari ibiti byinshi n'amashuri.

Ikigo cy'amashuri cy'abana batoya, hanze yacyo hari ibikinisho byinshi byo mu bwoko butandukanye ndetse n'amabara y'umukara hasi ndetse n'icyatsi.

Abana batoya b'abanyeshuri, abahungu muri bo bambaye impuzankano za kaki, abakobwa iz'ubururu, umwe muri bo arahagaze, abandi baricaye biteretse amakayi yabo bigiramo.

Igikapu gitoya gifite ibara ry'icyatsi n'imashini ndetse hejuru hakagira ibara ry'ubururu byose hamwe bigaragara mu ishusho y'urubuto rw'inanasi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu kwiga nk'amarati n'ibindi bintu bitandukanye, biri imbere ahantu hasa umweru, no ku ruhande hari ibindi bisa umuhondo.

Ikigo cy'amashuri, gifite inzu zubakishijwe n'amabara y'ubururu n'amabati y'ubururu, imbere yaho hari umuhanda utambika, ku mpande hari indabyo ndetse n'ikibuga k'ibyatsi.

Abagabo n'abagore bavuye gukora umuganda bicaye mu byatsi munsi y'igiti, bamwe barahagaze hari uwateye urutoki ari kubaza umugore ubahagaze imbere ufite ibyo ari kubabwira.

Amashuri ageretse ari ku ruhande rumwe yubakishijwe amatafari ahiye n'amabara yiganjemo umuhondo n'ubururu, hirya hari andi mashuri y'umutuku n'amatafari ahiye.

Umwana muto aricaye afite ikaramu ari kwandika kupapuro rw'umweru ku mutwe we hari ibintu baterekaho amagi n'imigozi y'umutuku, inyuma ye hari abantu bicaye n'intebe ziticayeho abantu.

Buwate ebyiri imwe ifunze indi ifunguye igaragaza ibikoresho bimwe na bimwe bifashisha mu guca imirongo igororotse, ibindi bifashisha mu guca uruziga, ibindi bifashisha mu kwandika inyuguti mu buryo bwiza.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabara yiganjemo umweruumukara ndetse n'amabati y'ubururu, imbere yacyo hari ubusitani ndetse n'ibendera hepfo hari abantu bari gutambuka.

Buwate imwe ifunze hanze hari bimwe mu bikoresho byayo byifashishwa mu guca imirongo ihagaze, ibindi byifashishwa mu guca imizenguruko, ikaramu y'igiti, ibiyigorora ndetse n'ibyifashishwa mu gusiba.

Ikigo cy'amashuri cyubatse kigeretse, mu mabara yiganjemo umweru n'icyatsi, imbere y'amashuri hari abana b'abanyeshuri, bahagaze bitegereza hanze, munsi hari abantu b'ababyeyi barimo baratembera.

Umugore wambaye umupira w'ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa gatukura, ahagaze imbere y'umuryango ufunguye wibara ry'ubururu, imbere hagaragaramo ikibaho cy'umukara ndetse n'idirishya rifunze.

Buwate imwe ifunguye indi ifunze hanze hari ibikoresho byifashishwa mu kwiga harimo ibigorora imirongo, ibizengurutsa uruziga ndetse n'ibigorora ikaramu y'igiti ndetse n'ibisiba.

Uruziga rumwe rufite izina rya C ndetse n'urundi ruziga rufite izina rya D bihuriye hamwe, birimo imibare igiye itandukanye, imwe iri muri C yonyine, indi iri muri D yonyine ndetse n'indi bihuriyeho.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwiga nk'amakayi, amakaramu y'igiti agizwe n'amabara menshi atandukanye, imikasi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kugorora ayo makaramu y'igiti, biteretse hamwe ndetse n'imashini yifashishwa mu kubara imibare igoye.

Ibitabo byinshi n'amakayi bigeretse hamwe, ku ruhande hari amakaramu y'igiti menshi y'amabara atandukanye, yifashishwa mu gushushanya, imbere hakaba ibindi bikoresho, bimwe na bimwe bifatanya impapuro ndetse n'imakasi.

Abagore n'abagabo n'abana bicaye ku ntebe, bakurikiye bamwe bamanitse amaboko, bafite igitekerezo n'ibibazo, bari kugezwaho imbere ikiganiro n'umwe mu bagabo bambaye umwenda w'umukara, inyuma hari abantu babiri bicaye ku meza yera.

Abantu benshi barimo abagabo, abagore n'abana bari mu kibuga k'ibitaka bicaye ku ntebe z'imbaho, bari kwitegereza umugabo n'umugore bahagaze, umugabo afite indangururamajwi mu kuboko kw'ibumoso, inyuma yabo hari ibyatsi n'uruzitiro.

Igitabo cy'inkuru ishushanyije, kigaragaza abagabo babiri umwe uhagaze uwundi wicaye, umwe akikiye igitebo kirimo ibintu bisa umuhondo, undi mwana hanze ari kubahengereza, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ikirere kigaragaza ko bwije.

ikigo cy'amashuri abanza, imbere yacyo hari abana batoya b'abanyeshuri, bari kugezwaho ijambo n'umugabo ufite indangururamajwi.

Abasore babiri bari mu ishuri ryuzuyemo mudasobwa ziteretse ku meza inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umweru inkuta z'icyumba zifite ibara ry'umweru.

Amashuri yubatse ateganye ari hirya, imbere yayo hari umurima w'ibigori uteyemo n'ibindi biti n'akayira k'ibyondo gatambuka kagana yo.

Abantu bakuru biganjemo abagabo n'abagore, batonze umurongo munini, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa, hirya hari ishuri ndetse n'ibiti.

Igitabo k'Ikinyarwanda cyifashishwa n'abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere, kiriho abana babiri imbere yabo hateretse ikayi bari gusomamo ibyanditsemo.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'uburezi, kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hejuru hakaba hari ibara ry'umuhondo.

Igitabo gishushanyijemo inkuru, inyuma hari igikeri ndetse n'inyoni y'umutuku, imbere hari igitebo kirimo ibintu bizengurutse.

Umugabo arimo asobanura ku kibaho gishushanyijeho ibice bigize umutima, yabyise amazina ndetse arimo aritegereza abo ari kubwira.

Ibikapu bitatu bitandukanye byifashishwa mu gutwara bimwe mu bikoresho byo ku ishuri nk'amakaye n'amakaramu n'ibindi, bigiye bigaragaza impande zitandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu bwubatsi harimo nk'igikapu k'ibikoresho, ishoka, umusumari, umukasi n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye birimo iby'ubwubatsi nk'urukezo, metero, inyundo, nivo n'ibindi bitandukanye, bigiye bitandukanywa n'imirongo iciye y'ubururu.

Abana benshi babanyeshuri bicaye bari gukora ibazwa, ku ruhande hari umugabo wambaye amadarubindi, afite igipapuro cy'umwe mu banyeshuri bari gukora.

Imbuto zitandukanye zirimo karoti, ibigori, abantu, inyanya n'ibindi n'imibare itandukanye, bigiye bitandukanywa n'imirongo y'icyatsi ihagaze n'itambitse.

Buwate ebyiri imwe isa umutuku iyindi ifite amabara menshi ziteretse ahantu hasa umweru nta n'imwe ifunguye zose ntizigaragaza ibikoresho byombi imbere.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, amashati y'imyeru, hasi bakambara umukara, bicaye bazengurutse ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko, bitegereza bagenzi babo bari kuwukina.

Akayira k'amatafari kajya ahantu hatandukanye, kari imbere y'amashuri, ku ruhande hari ibyatsi bihateye, hirya hari ayandi mashuri ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Buwate ifunguye igaragaza ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'Imibare, ndetse n'Ubugenge, bimwe na bimwe bigorora imirongo ,ndetse n'ibyifashishwa mu gushushanya.

Ameza y'urubaho ateretseho bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwiga nk'amabara, amakaramu y'igiti agizwe n'amabara atandukanye, imashini yifashishwa mu guteranya imibare n'ikayi yanditsemo.

Icyumba kirimo itapi yandikishijweho imibare itandukanye ikoreshwa n'abana mu kwiga, imbere hari amabara atandukanye, yanditswemo ibintu by'amagambo ndetse n'imibare.

Buwate ifunguye, igaragaza ibikoresho bifashisha mu kwiga nk'irati ica imirongo ihagaze, iyizengurutse n'ibyifashishwa mu kuzengurukisha ikaramu y'igiti, kuyisongora no gusiba ibyanditse.

Amarembo y'umutuku hejuru hagasa umweru agaragaza ko ari ikigo bagororeramo abana giherereye muri Nyagatare, ku ruhande hari akazu k'amatafari ahiye n'idirishya rifunguye.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, bari inyuma y'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, ku ruhande rwabo hari amashuri bigamo ndetse imbere hari itara ryo ku muhanda.

Amashuri yubatse ku murongo atondetse, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'imiryango n'amadirishya bifite ibara ry'ubururu ndetse no ku mabati, imbere yaho hari isima.

Icyumba gifite amabara atandukanye yiganjemo umuhondo ndetse n'umweru, kiri kwakamo itara hejuru, ndetse kirimo ameza menshi n'intebe n'ibikoresho byifashishwa mu kwandika.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwandika no gushushanya, guca imirongo ihagaze ndetse n'ibindi byifashishwa mu guca uruziga ruzengurutse no kugorora ikaramu.

Buwate ifunze, bimwe mu bikoresho byayo bigaragara ku ruhande, harimo irati yifashishwa mu guca imirongo ihagaze n'iyifashishwa mu guca imirongo y'uruziga ndetse n'icyifashishwa mu kuzengurutsa ikaramu y'igiti.

Amashuri asizwe irangi ry'umweru atondetse ku mpande ebyiri ziteganye, hagati yayo harimo akayira gacamo ndetse n'ibyatsi kuri buri ruhande rw'ishuri, hirya hakaba ibiti.

Igipangu cy'umukara cyandikishijweho n'amabara y'ubururu ko kinjira mu kigo kigisha uburezi cya Matimba, mo imbere haragaragara ibiti ndetse n'igicu n'inyubako ifite amabara y'umweru hejuru n'icyatsi hasi.

Buwate ifite ibara ry'umutuku inyuma yayo hari bimwe mu bikoresho byayo byifashishwa mu guca imirongo ihagaze, izengurutse ndetse n'ikaramu y'igiti n'ibyifashishwa mu kuyisongora ndetse no gusiba ibyo badashaka banditse.

Abana b'abanyeshuri abahungu babiri n'abakobwa babiri, buri umwe afite ikintu bashyiramo imyanda, bari kugenda baza bakimena mu kinini kijyamo imyanda, undi akabitoragura abikura hasi ku byatsi, inyuma yabo hari igiti mu ishuri bari guturukamo.

Buwate itukura ifunze ibikoresho byayo biteretse hasi bimwe muri byo byifashishwa mu guca imirongo ihagaze, ibindi mu kuzengurutsa, ikaramu y'igiti nayo iteretse ku ruhande ifite ibara ry'umuhondo, imbere hakaba icyifashishwa mu gusiba ibyandikishijwe iyo karamu y'igiti.

Buwate ifite ibara ry'umukara n'icyuma irafunze hanze yayo hari ibikoresho byayo byifashishwa mu guca imirongo ihagaze, gushushanya iyizengurutse, ikaramu y'igiti, ikifashishwa mu gusiba, ndetse no mu gusongora ikaramu y'igiti.

Abana babiri umwe w'umuhungu undi w'umukobwa b'abanyeshuri umusore yambaye impuzankano ikabutura n'ishati bya kaki n'inkweto z'umukara, umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu bose bafite ibitabo mu ntoki umukobwa afite igitabo cy'icyatsi, umusore afite igitabo cy'umutuku bari kuganira.

Umugore wambaye itaburiya yera ari imbere ku kibaho atunzeho ugutoki ku mibare yandikishijwe ingwa y'umweru, mu kuboko kwe kw'iburyo akikiye ibitabo.

Buwate ifite ibara ry'umukara irafunze ndetse igipapuro iturukamo kiri ku ruhande nta bikoresho byayo bigaragara hanze.

Ibuye rizengurutswe n'amabara y'ibendera ry'u Rwanda rigaragaza indangagaciro z'abana biga kuri icyo kigo, inyuma hari amashuri ndetse n'indabyo.

Igitabo k'Ikinyarwanda, cyanditseho inyuguti nyinshi cyane zifashishwa mu gusoma no kwandika, munsi hari abaterankunga bacyo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye n'amabati afite ibara ry'umukara, ku ruhande hari ibyatsi hirya hari inyubako nyinshi cyane ndetse n'ibiti.

Icyumba cyigishirizwamo abana batoya, gitatse ibintu byifashishwa mu kwiga ku nkuta ndetse n'imbere harimo intebe n'ameza byinshi bitandukanye.

Umwana mutoya w'umunyeshuri wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'ijipo y'igitaka n'ishati y'ubururu uhetse agakapu ari kwinjira mu marembo y'urwunge rw'amashuri.

Ikigo cy'amashuri cyubatse harimo inzira zijya ahantu hatandukanye, harimo umuntu uri kuhatambuka hari n'izuba, hirya hari ikigega cy'umukara.

Buwate ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyuma irafunze, nta gikoresho na kimwe cyayo cyifashishwa kigaragarira hanze ndetse iteretse ahantu hafite ibara ry'umweru.

Abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa ndetse n'umusirikare, bari munsi y'amashuri yubakishijwe amatafari n'amabara y'umweru n'ubururu, barimo baritegereza ahantu hamwe.

Buwate ifunze ibikoresho byose biri hanze yayo nk'ikaramu, ikaramu y'igiti, irati zicishwa imirongo ihagaze ndetse n'izengurutse n'ibyifashishwa mu gusongora ikaramu y'igiti.

Inzu ifite amabara menshi atandukanye, yiganjemo umutuku, icyatsi, umweru n'amabati y'icyatsi, hanze hari intebe n'ameza, imbere hakaba ikibuga gifite ibitaka.

Abana bato benshi, bicaye kumeza imbere yabo hateretse amakayi, bari kwigishwa n'umwarimukazi wambaye itaburiya y'umweru, inyuma hari ikibaho gisa umukara.

Amashuri yubatse ateganye, yubakishijwe amatafari ndetse n'amabara yiganjemo umuhondo n'ivu, hagati yayo harimo ibendera ry'u Rwanda ndetse n'abantu bari kuhatambuka.

Ikibaho cy'umweru kiriho ibintu bitandukanye inanasi, umuneke, imodoka, icunga, igitunguru, igikombe n'imibare yari rimwe na kabiri n'imirongo ihagaze n'iyitambitse.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana benshi ndetse n'abarezi babo bahagararanye bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari ibendera ry'Igihugu ndetse n'ikigega cy'amazi.

Umuzenguruko ufite izina rya A, usa ibara ry'igitaka, uhuye n'umuzenguruko w'izina rya B, byose hamwe biri mu muzenguruko w'impande enye ufite izina rya U.

Igikoresho gifite ibara ry'umukara ndetse n'iry'icyuma, gifite utuntu tubiri dusongoye ku misozo yayo, yifashishwa mu gushushanya uruziga ndetse n'ibindi bintu bizenguruka.

Abantu batanu bagizwe n'abagabo babiri, abagore batatu n'umunyeshuri umwe, bose bambaye udupfukamunwa, harimo umupolisikazi ndetse umugabo uri imbere arimo arafungura ishuri rimwe.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, kigeretse kabiri hariho n'icyapa cy'umweru cyandikishijweho amagambo n'irindi bara risa umukara.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwandika ndetse no gushushanya, harimo irati zifashishwa mu guca imirongo ihagaze, amakaramu atandukanye y'igiti yifashishwa mu kwandika amabara atandukanye ndetse n'imakasi.

Inzu zubakishijwe amatafari menshi ahiye ndetse n'imiryango n'amadirishya bifite ibara ry'ubururu ndetse n'amabati asa ubururu, imbere yaho hari ikibuga kirimo ibyatsi n'aho bitari.

Abana batoya batatu bicaye ku musambi abandi babiri bicaye hirya ku ntebe, imbere yabo hari umusaza wicaye ku ntebe n'agakoni, hirya hakaba umukecuru uri gutora, bose bahanze amaso umusaza uri kubatera inkuru.

Amakayi menshi n'ibitabo birateretse, hejuru yabyo hari imashini yifashishwa mu guteranya imibare, hasi hari ibifasha mu kwandika imirongo ihagaze, imakasi n'amakaramu y'igiti menshi, n'amakaramu asanzwe.

Buwate ifite ibara ry'umutuku, irimo ibikoresho byifashishwa mu gushushanya ibintu bizengurutse ndetse n'ibindi byifashishwa mu gusongora ikaramu y'igiti, ndetse ibyifashishwa bisiba hamwe n'ibyifashishwa mu kugorora imirongo.

Inkuru ishushanyije irimo ibice bine, igice cya mbere kirimo abana batoya babiri ndetse n'umwe w'umugabo, mu gice gikurikira harimo umukecuru, uwo musore n'abana babiri, igice cya gatatu umukecuru ari kwinjira mu nzu n'abandi bana bari kuganira, igice cya nyuma harimo umukecuru wenyine.

Ikirangantego k'ikigo cy'amashuri, kigaragaza abana babiri b'abakobwa bambaye impuzankano zisa, umwe ikiganza cye k'iburyo giteretse mu ikayi irambuye.

Abanyeshuri bane b'abasore, bambaye amasarubeti y'ubururu, udupfukamunwa na ga, bahagaze barimo bakora ibintu by'amashanyarazi ku ishuri ryabo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano n'udupfukamunwa, bicaye ku ntebe z'imbaho, bari kureba ahantu hamwe, inyuma yabo hari amadirishya abonerana.

Ikigega cy'umukara kiri ahantu hari ubwiherero bw'abagabo n'abagore, hirya hari abantu benshi bari kuhagana bambaye amajire bamwe bambaye n'ingofero by'abubatsi.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bamwe baricaye hasi abandi barahagaze, bari imbere yamashuri menshi cyane bigamo, hirya hari ibiti.

Abanyeshuri benshi bambaye imyenda y'imihondo hejuru abandi imyeru, barimo bagezwaho ijambo n'umugore ufite indangururamajwi, uri kugenda abatembera imbere.

Icyumba kigirwamo, kirimo ameza menshi azengurutswe n'intebe, ku meza hateretse mudasobwa nyinshi cyane zisa umukara ndetse n'ikibaho cy'umweru, cyigishirizwaho.

Ishuri ryubakishijwe amatafari n'amabuye hasi yanditseho amagambo menshi agaragaza ko ari ikigo cy'amashuri cya Karangazi cyigisha abantu biga mu mwaka wisumbuye.

Abanyeshuri batatu b'abakobwa bambaye impuzankano zisa umweru hasi ivu bicaye mu kayira kamanuka imbere yaho hari ishuri ku ruhande hari inkingi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, benshi muri bo bambaye imyenda y'ubwubatsi, ingofero n'amajire, bose bahagaze imbere y'inzu, igaragaza ko ikoreramo abayobozi.

Abanyeshuri benshi bari muri sitade, bamwe bateruye ibikapu byabo barimo baratambuka, abandi barahagaze nta kintu bari gukora ariko harimo n'abandi batari abanyeshuri.

Abana benshi b'abanyeshuri, abahungu nabakobwa bambaye impuzankano zisa, uretse bamwe bambaye imyenda itari iy'ishuri, bahagaze hamwe, inyuma yabo hari igiti kinini.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'umugore umwe, bari mu cyumba gitegurirwamo ibyo kurya n'amasafuriya manini cyane n'imifuniko yayo, mu rwunge rw'amashuri, umwe mu bagabo afite urupapuro mu kuboko kw'ibumoso.

Abana batoya cyane bambaye imyenda isa amakanzu y'ubururu n'umweru n'utugofero tw'ubururu, inyuma yabo hari ababyeyi benshi b'abagabo n'abagore n'abihayimana, inyuma yabo bose hari urusengero.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zitandukanye, bari imbere bicaye abandi inyuma barahagaze, bitegereza umuntu uhagaze ufite ibyari kubereka yambaye imyenda y'imikara, inyuma yabo bose hari ibiti.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye mu ihema rizengurutswe n'ibendera ry'Igihugu, imbere yabo hari umugabo uri kugeza ijambo kuri bo n'imbere y'iwe hari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri benshi b'abahungu n'abakobwa, bicaye mu ntebe bazengurutse, umugabo arimo arabasobanurira ibintu, ku meza hateretse mudasobwa n'icyuma kifashishwa mu kwagura amashusho iyo umuntu ari kuyasobanurira abantu benshi.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa n'impuzankano z'umweru hejuru n'imipira y'imikara ndetse n'amapantaro cyangwa amajipo ya kaki, bicaye ku ntebe, ku meza zabo hateretse mudasobwa.

Umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'umweru ipantaro ya kaki n'umupira wimbeho wishuri wibara ry'icyatsi ari kugezwaho ibihembo n'abantu barimo umugabo, umugore ndetse hirya hari undi mugabo wishimye.

Abana benshi b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bicaye ku ntebe z'imbaho mu byatsi biri munsi y'igiti, bari kugezwaho ijambo n'umugabo ufite indangururamajwi mu kuboko kumwe ndetse n'urupapuro rw'umweru, yambaye amadarubindi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bamwe muri bo bambaye amajire y'ubwubatsi, barimo baratembera ikigo cy'amashuri, gifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, cyubakishijwe amatafari.

Abanyeshuri b'abasore n'inkumi, bambaye impuzankano zisa, amashati y'imyeru n'amapantaro n'amajipo asa ubururu, hagati yabo hari umusore uri kuvuga mu ndangururamajwi y'umukara, ku ruhande hakaba abandi bantu barimo umugabo.

Abanyeshuri benshi barimo abasore n'umukobwa umwe ndetse n'umugabo utari umunyeshuri, bari kwishimira igikombe babonye ndetse n'icyangombwa kigaragaza intsinzi yabo, mu cyumba kimwe kirimo n'abandi bantu bari kubitegereza.

Abana b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zisa amashati y'imyeru, amapantaro cyangwa amajipo bya kaki, amasogisi y'umweru n'inkweto z'imikara, imbere yabo hari umugabo uri gushyira indabyo ku gituro cy'abantu.

Abanyeshuri benshi b'abakobwa bambaye impuzankano zisa, amajipo ya kaki, amashati y'imyeru, amasogisi y'imyeruru n'inkweto z'umukara, bamwe muri bo bakikiye impapuro z'umweru, ku ruhande hari abandi bakobwa bambaye imyenda itari impuzankano.

Abanyeshuri benshi bicaye ku murongo bambaye impuzankano zisa n'udupfukamunwa, imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa bari kwifashisha mu bintu bari gukora.

Abanyeshuri benshi barimo abasore n'abakobwa, bicaye mu ishuri bose bari guseka, kumeza hateretseho amakaye n'amakaramu.

Amashuri menshi arimo arubakwa, imbere yayo hari abanyeshuri barimo barabafasha mu kuyubaka, hari n'intebe z'abanyeshuri z'imbaho ziri hanze.

Abanyeshuri benshi barimo abasore n'inkumi, barahagaze bari gukoma amashyi, muri bo harimo n'abagabo batari abanyeshuri bari kubafasha.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano, bicaye mu ntebe umurongo, ku ruhande mu kayira hari umurezi uhagaze wambaye itaburiya yera.

Abantu batandukanye, bamwe bambaye amajire agaragaza ko bubaka, abandi bambaye amataburiya, bari mu cyumba gikorerwamo iby'imikorongiro n'abanyeshuri.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye mu ntebe zimbaho, abandi badamu babiri barahagaze, hirya hari utubati twuzuyemo amakayi menshi.

Icyumba kimwe kirimo abantu benshi bambaye imyambaro y'abantu bubaka ndetse n'ameza afite ibara ry'ubururu, azengurutswe n'intebe na zo zifite ibara ry'ubururu.

Abantu b'abagabo n'abagore bambaye amajire y'ubwubatsi, bari gutembera ikigo cyamashuri cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabara yiganjemo umuhondo n'ubururu.

Abaturage benshi bahagaze bari gutera akaririmbo, imbere yabo hari ababiyoboye bambaye ingofero n'amadarubindi, inyuma hari ibyatsi bahagazemo bose.

Umwana w'umunyeshuri w'umukobwa, wambaye impuzankano ishati y'umweru n'ijipo y'igitaka, ari imbere yikibaho cy'umukara cyanditseho ibintu bisa umweru.

Abanyeshuri biga mu mwaka umwe, bambaye impuzankano zisa, bamwe baricaye abandi barahagaze bari kureba imbere, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho n'amabara atandukanye.

Abana benshi b'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano zigiye zitandukanye bitewe nuko bicaye, bicaye mu kibuga cy'ibyatsi, hejuru yabo hari ibiti.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, abari imbere bafite n'ingoma bari gukoma, uwo uhagaze imbere yabo, afite indangururamajwi, mu kuboko kw'iburyo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye gifite n'amabara y'umuhondo n'ubururu kirimo kirazengurukwamo n'abantu batandukanye bambaye amajire y'ubwubatsi.

Amashuri yubatse ageretse kabiri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabara yiganjemo umuhondo n'ubururu ku ruhande hari ikigega cy'amazi imbere yayo hari ibiti.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bari gutambika inzu bamwe muribo bambaye imyenda y'ubwubatsi, umugabo umwe ari kureba ku rupapuro, umugore w'undi arimo arareba hejuru.

Abanyeshuri babiri barimo umuhungu n'umukobwa, barimo barasoma ibintu byanditse ku dupapuro dutoya tw'umweru, ukundi kuboko kwabo kugafatana kuri bibiriya, inyuma yabo hari abandi bicaye.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bari mu cyumba bambaye imyenda igaragaza ko ari abubatsi, amatara ari kwaka, umwe muri bo ari kubereka bimwe mu bintu yifashishije ikibaho.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba bamwe muri bo bambaye amajire y'abubatsi bari kwitegereza ibintu bimwe na bimwe harimo akabati karimo ibintu n'ameza bateretseho igikapu n'intebe.

Umudamu yicaye ku ntebe ndetse amaboko ye ari ku meza y'ubururu, imbere ye hari uducupa twinshi tw'amazi, akikiye ikaramu ndetse imbere ye hari ikayi arimo yandikamo, arimo kuvuga.

Abana batoya b'abahungu b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, umwe yicaye ku meza bagenzi be bari kumuvugisha abandi bari inyuma yabo bari kugenda banyuranamo binjira abandi basohoka.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bicaye mu byatsi munsi y'ibiti bagenzi babo bahagaze hirya ndetse bose bambaye impuzankano z'umweru hejuru ndetse hasi hasa igitaka.

Abanyeshuri barimo abasore n'inkumi bambaye impuzankano zisa ku ruhande hari umusore w'umunyeshuri wambaye umupira w'ubururu n'isaha mu kuboko kw'iburyo ari kureba ku ruhande rwe rw'ibumoso.

Umwana w'umukobwa wafatanyije amaboko yambaye agapfukamunwa n'impuzankano arimo arapimwa igipimo cy'ubushyuhe afite mu mubiri n'undi musore wambaye agapfukamunwa, hirya yabo hari undi musore wambaye ingofero n'agapfukamunwa.

Abana b'abanyeshuri b'abasore n'inkumi bambaye impuzankano zisa, bamwe muri bo bafite amakaye mu ntoki bari ku ntebe z'imbaho, hirya hari intebe ziticaweho ndetse n'imiryango n'amadirishya bibonerana.

Abantu babiri bari gutambuka imbere y'amashuri yigirwamo n'abana b'inshuke, ryubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabara y'umuhondo, umukara n'icyatsi, imbere ku ruhande hari ibyicungo biri mu kibuga.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'umugore umwe barimo baganira, bamwe muri bo bambaye amajire n'ingofero by'ubwubatsi, inyuma yabo hari uruzitiro rw'icyuma rufite ibara ry'umutuku, inyuma hakaba hari imodoka ebyiri imwe yumweru indi y'umukara, ibiti ndetse n'ikigo cy'amashuri.

Abana benshi b'abanyeshuri abasore n'abakobwa, bahagaze ku murongo munsi y'igiti, imbere yabo hari bamwe mu banyeshuri n'umupolisi uri kubaganiriza.

Abana b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa bari gutambuka bambaye imyenda isa hejuru no hasi, inyuma yabo hari ibiti barimo baragenda mu muhanda w'ibitaka.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa bose, bari munzu idasakaye hejuru hari ibiti gusa, ku mpande hari umucanga.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabara yiganjemo umuhondo n'ubururu, ari gutembererwamo n'abantu, bamwe muri bo bambaye amajire y'ubwubatsi.

Abanyeshuri benshi barimo abasore n'inkumi, bambaye udupira dusa dufite ibara ry'umuhondo, barimo batambuka bagana ahantu hamwe, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'amashuri yubatse mu buryo butandukanye, hagati hari ibiti byinshi cyane bihagaze ndetse n'igare ku ruhande ry'umukara.

Abasore n'inkumi bicaye ku ntebe z'umweru, barimo barakurikira ibyo mugenzi wabo w'umukobwa ari kubagezaho, inyuma yiwe hari ikibaho bari kwigiraho.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, ishati y'ubururu, ijipo y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, yicaye ku ntebe ndende ku meza ye hariho mudasobwa yateretseho amaboko abiri.

Abanyeshuri babiri bambaye amashati asa y'imyeru bari guseka umwe muri bo afite icyangombwa kemeza igikorwa bakoze, undi afite igikombe k'intsinzi.

Abana benshi b'abanyeshuri, bambaye imyenda isa, bicaye mu busitani, umugabo arahagaze afite ibyo ari kubabwira, hejuru yabo hari igiti, imbere yabo hari amashuri bigamo.

Abana benshi b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo ku meza hateretse ibizamini bari gukora bifashishije amakaramu y'ubururu.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri b'abakobwa, bambaye impuzankano z'umweru hejuru n'amajipo y'ubururu bwijimye, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bicaye hamwe mu kibuga k'ibyatsi.

Abana b'abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano barimo barakora ikizamini bahagarikiwe n'abantu batandukanye barimo umugore n'abagabo benshi bose bambaye udupfukamunwa.

Abana benshi b'abanyeshuri, abasore n'abakobwa bambaye impuzankano zitandukanye, ugendeye kuko bicaye, bicaye mu byatsi ku ntebe munsi yigiti, imbere bari kugezwaho ubutumwa.

Abanyeshuri benshi cyane b'abana, barimo abahungu n'abakobwa, bahagaze hamwe ku murongo, bamwe bambaye impuzankano z'ubururu, abandi bambaye impuzankano z'umweru hejuru, hasi igitaka.

abanyeshuri benshi barimo abahungu n'abakobwa bambaye imyenda isa hasi no hejuru, udupira dufite ibara ry'umuhondo, hasi ni kaki, bari kwerekeza ahantu hamwe, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Amashuri yubakishijwe amatafari menshi ahiye ndetse n'amabara yiganjemo ubururu, umuhondo ndetse n'umweru, ku ruhande hari ikigega n'umuntu uri gutambuka, imbere hari ibyatsi byinshi.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa icyenda bambaye imyenda yo ku bigo byabo y'impuzankano bane muri bo bari kuruhande rwabo batanu kuruhande rwabo barimo baraseka bari mu muhanda w'ibitaka inyuma hari ibiti byinshi.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye bitewe n'uko bicaye, bicaye mu byatsi munsi y'ibiti ku ntebe, imbere yabo hari umuyobozi ukikiye indangururamajwi ndetse n'igipapuro cy'umweru.

Abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru hejuru hasi igitaka, bicaye barimo baragezwaho ubutumwa n'umukobwa mukuru ukikiye indangururamajwi ndetse n'ifoto iriho umuntu.

Abanyeshuri benshi bari mu cyumba kimwe biga bambaye impuzankano n'udupfukamunwa, hari n'umugabo uri kubigisha wambaye itaburiya yera n'igikoresho cyagura amashusho yifashishwa mu kwiga ndetse n'abandi bagabo n'abagore bari kwitegereza.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri, bari mu nzira y'ibitaka bagenda imbere yabo hari abanyeshuri bakuru, bafite mu ntoki ikirango cyo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi, ku ruhande hari umupolisi ufite inkoni mu kaboko k'ibumoso.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umweru munsi y'ihema rizengurutswe n'ibendera ry'u Rwanda, bari kugezwaho ubutumwa n'umugabo ukikiye indangururamajwi mu kuboko kw'ibumoso, mu kuboko kwe kw'iburyo hakaba harimo igipapuro cy'umweru.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye zirimo udupira tw'ubururu, utw'icyatsi n'amashati y'imweru, bicaye bari kugezwaho ijambo n'umudamu umwe, ku ruhande rwiwe hari abagabo b'abapolisi hirya hari undi mugabo uhagaze hafi n'imiyenzi.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zisa, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bose bari gukoma amashyi, hagati muri bo hari umuzungu.

Abana benshi b'abanyeshuri, bambaye impuzankano zitandukanye, baricaye munsi y'ibiti byinshi, barimo baritegereza imbere ku bantu bari kubabwira.

Amashuri yubatse mu buryo bugiye butandukanye hagati y'aho hari ibiti byinshi na byo mu buryo butandukanye, inyuma hitaruye hari umusozi ndetse n'igicu.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye amakanzu abandi amashati n'amakabutura bari ahantu ku kibuga k'ibitaka.

Abanyeshuri benshi, barimo abasore n'abakobwa, bicaye hamwe abandi barahagaze munsi y'igiti, barimo bagezwaho ubutumwa n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe.

Abanyeshuri ndetse n'abandi bagabo barateranye mu cyumba kimwe, inyuma yabo hari ibitabo ku meza bicayeho hateretse impapuro z'umweru, bibiriya, amadarubindi n'imfunguzo.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda isa, udupira tw'umuhondo n'amapantaro y'umukara, hakaba harimo n'abatari abanyeshuri, abagabo babiri n'umugore umwe.

Abantu benshi, bamwe muri bo bambaye amajire y'abubatsi, abandi ntibayambaye, bari gutembera mu cyumba gifite inkuta zisa umuhondo, basohoka hanze.

Umunyeshuri umwe wakikiye ikintu, ahagarikiwe imbere n'umudamu uri guseka, wambaye ikanzu y'umukara, hirya hari umugabo w'amadarubindi na we uri kubitegereza.

Abana benshi b'abanyeshuri b'abakobwa, bambaye impuzankano zisa, bicaye mu nzu imwe, ifite amadirishya n'imiryango bifunguye, umwe muri bo arimo arasohoka hanze.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari n'amabara yiganjemo iry'umuhondo n'ubururu, imbere yacyo hari aho bamena imyanda, ku ruhande hakaba igiti ndetse hejuru hagaragara igicu.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, wambaye agapfukamunwa, impuzankano hejuru zisa umweruru, hasi zigasa igitaka, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, ari gupimwa umuriro n'ushinzwe umutekano na we w'umukobwa.

Abanyeshuri benshi bahagaze kumurongo, buri mirongo yose irimo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa bari mukibuga cy'ibitaka inyuma hari amahema y'umweru nibiti byinshi cyane.

Abana babanyeshuri abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zisa, baricaye barimo barandika ku makayi bafite, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zisa bicaye mu ishuri bafite amakaramu n'impapuro bari gukora ibazwa inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru.

Abasore n'inkumi b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa amashati y'imyeru n'amapantaro y'umukara, umwe muri bo akikiye impapuro z'umweru ndetse n'imashini y'umukara, hirya hari indabo n'izindi nyubako.

Abana b'abanyeshuri bamwe muri bo bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hari umukobwa w'umunyeshuri ufite mu ntoki urupapuro rw'umweru, inyuma ye hari ikibaho cy'umukara kitanditseho ikintu na kimwe.

Igipangu gisa umukara, cyandikishijweho ibara ry'ubururu ko cyigisha uburezi mu Murenge wa Matimba n'imbere harimo inyubako y'umweru n'icyatsi ndetse ukomeje hari umuhanda w'ibitaka n'ibiti byinshi.

Abana benshi b'abanyeshuri bicaye hamwe ku ntebe zigiye zitandukanye buri wese ye, imbere yabo hari umukobwa uri kubigisha akikiye indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo, ukuboko kwe kw'ibumoso kurazamuye gukiye igipapuro cy'umweru, hirya hari abagabo babiri bahicaye.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano amashati y'imyeru n'amajipo y'icyatsi bari kumwe n'umugabo we ubafashije guterura igipapuro gifite ibara ry'icyatsi rishushanyijeho rinanditseho inyuma hakaba hari amadirishya ari kuboneshamo imbere.

Umunyeshuri wambaye ishati y'umweru y'ishuri, ari kumwenyura ndetse akikiye igikombe, kigaragaza ko yatsinze amarushanwa yarahatanagamo.

Amashuri yubatse mu buryo butatanye, agiye atandukanywa n'imihanda ndetse ku mpande hari ubusitani burimo ibiti, imbere hari ibendera ry'u Rwanda.

Umunyeshuri umwe w'umuhungu ufite indangururamajwi mu kaboko ke k'iburyo ari kugeza ijambo kuri bagenzi be benshi b'abanyeshuri bicaye hamwe bari kumwumviriza.

Abantu benshi bari gutembera ku kigo cy'amashuri, bamwe muri bo bambaye amajire n'ingofero by'ubwubatsi, inyuma yabo hari ibiti n'ikigega cy'amazi.

Abagabo n'abagore bamwe muri bo bambaye amajire y'ubwubatsi bari gutemberezwa ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabara yiganjemo umuhondo n'ubururu.

Bamwe mu abanyeshuri n'abatari abanyeshuri bari mucyumba cyanditseho ibigaragazako ari ishuri ryisumbuye rya Nyagatare, barimo barerekwa bimwe mu ibintu bikorerwa ku ishuri.

Abana b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano bari kwigira mu matsinda bafite amakayi bari kwandikamo n'amamashini bifashisha mu guteranya imibare.

Abanyeshuri bane b'abakobwa bahagaze hamwe bambaye impuzankano zisa, bari mu byatsi inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inzu ifite amabati y'ubururu.

Abana b'abanyeshuri, abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano z'ishuri rimwe, umwe muri bo ateruye ibase irimo ibintu, inyuma yabo hari umuryango w'umukara ukinguye.

Abana benshi b'abanyeshuri, bahagaze hamwe ku murongo, barimo abahungu n'abakobwa, bamwe bambaye impuzankano z'ubururu, abandi umweru hasi igitaka n'inkweto z'umukara.

Ikigo cy'amashuri cyubatse kigeretse, cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabara yiganjemo umuhondo n'ubururu, imbere hari umuhanda w'ibitaka ndetse hari umugabo uri gutambuka.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ubwubatsi, bari kugenda imbere y'ishuri rifunguye, ryubakishijwe amatafari ndetse n'amabara y'umuhondo, ubururu n'umweru.

Abanyeshuri barimo abasore ndetse n'abakobwa bateruye indabyo zo kwerekeza ahashyinguye imibiri y'abantu imbere yabo hari umupadiri wambaye amakanzu y'umweru uri kubafasha mu gusenga.

Umwana w'umunyeshuri uhetse igikapu, arimo ahoberana n'umukobwa utambaye imyenda y'ishuri. Inyuma hari umuntu uhetse igikapu ndetse n'ibiti n'imodoka.

Abana benshi b'abanyeshuri b'abakobwa, bambaye impuzankano zisa, bamwe bicaye hasi ku isima, abandi barahagaze muri bo hose hagati harimo umuzungu kandi bose bari gukoma amashyi.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zisa amashati y'umweru n'amajipo n'amapantaro y'igitaka, ku ruhande hari umugabo utari umunyeshuri, bashyize indabyo aharuhukiye abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Abasore babiri bambaye amashati y'imweru, buri umwe muri bo afite agapapuro k'umweru ndetse undi akagirahomo n'igitabo cy'umukara yazamuye n'akaboko k'iburyo hejuru, inyuma yabo hari ikibaho.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo n'abagore bicaye munsi y'ibiti n'ihema ry'umweru rizengurutswe n'Ibendera ry'u Rwanda, bari kugezwaho ijambo n'umuyobozi ukikiye indangururamajwi ndetse n'urupapuro rwera.

Abanyeshuri benshi b'abasore n'inkumi, bambaye impuzankano zitandukanye bitewe n'uko bicaye, bicaye mu kibuga cy'ibyatsi munsi y'ibiti, bari kugezwaho ijambo na mugenzi wabo ukikiye indangururamajwi mu kaboko k'iburyo.

Abanyeshuri benshi, abahungu n'abakobwa, bamwe barahagaze abandi imbere yabo barapfukamye, bamwe muri bo bambaye impuzankano y'amashati y'imyeru n'amakabutura n'amajipo byijimye, abandi bo inyuma yabyo barengejeho imipira y'ishuri isa umutuku.

Abanyeshuri benshi barimo abahungu n'abakobwa barimo baragenda bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, harimo udupira tw'ubururu, udupira tw'umuhondo, amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo by'igitaka, inyuma yabo hari ibiti.

Abana b'abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda isa, udupira dufite ibara ry'ubururu, amapantaro y'imikara n'inkweto z'imikara, bari mu kibuga cy'isima bari mu myiyereko, hirya hari amahema y'umweru azengurukishijwe ibara ry'ubururu.

Abana b'kobwa babanyeshuri benshi bambaye impuzankano amajipo y'igitaka n'udupira tw'ubururu, uretse umwe ku ruhande agapira gasa icyatsi, barimo baririmba baranguruye, imbere yabo hari umusore nawe uri kuririmba ufite indangurura majwi y'umukara mu kuboko kw'iburyo.

Umukobwa yicaye ku ntebe, kumeza hari mudasobwa ari kwandikisha n'amaboko yombi, ku ruhande hari ikaramu ndetse n'ikaye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe abandi bahagaze bamwe muri bo barateganye bari kuganira abandi barahagaze bari kwitegereza ku bibaho by'umweru biri imbere.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano n'umwitero w'ubururu imbere ye hateretse ibintu ari kwifashisha mu gukora umukorongiro wo ku ishuri.

Icyumba cyitwa rimwe, R, zeru karindwi, mu imbere harimo intebe nyinshi z'icyatsi n'umukara n'ameza ndetse hicayemo abantu.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi, bicaye ku ntebe, ku meza bari kuhandikira bifashishije amakaramu ndetse hari uwateretse amadarubindi ye hasi.

Abantu bagizwe n'abasore n'inkumi, bicaye mu cyumba kimwe kirimo mudasobwa ziteretse buri wese imbere ye, ku ruhande hari umusore uri kugenda atambuka.

Amagare atatu yegetse kumpande munsi yamabati, kuruhande hari umusore n'undi uri hirya ku kibuga cyamatafari menshi, imbere yabo hari ibiti byinshi.

Intebe ntoya zifatanye n'ameza bandikiraho, bisa ibara ry'ubururu, biteretse ku makaro, inyuma hari igikuta gisa umweru n'aho bacomeka ngo binjize umuriro w'amashanyarazi.

Ku gikuta gifite ibara ry'icyatsi kijimye, hari imbaho zigiye zitandukanye na zo ziriho amabara menshi, hirya y'izo mbaho hari igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi bari mu cyumba kimwe bicaye, imbere yabo hateretse mudasobwa, umwe mu bakobwa arahagaze ari gutunga akaboko kuri mugenzi we nawe we bakamutunze bafatanyije ibiganza.

Umusore ari imbere ya mudasobwa iteretse ku meza, inyuma ye hari ibitabo byinshi biteretse mu kabati, arimo aramwenyura ndetse amaboko ye yose yayashyize kuri mudasobwa.

Ikibaho gifite amabara y'umweru, kiriho amagambo menshi y'umukara agaragaza ibazwa, cyegetse ku gikuta gifite ibara ry'ubururu, hirya hakaba ikindi kibaho cy'umweru na cyo cyanditseho amagambo y'umukara.

Umugore umwe n'abagabo babiri bambaye imyenda yera, bicaye hamwe barimo barandikisha ikaramu ku rupapuro, bambaye n'udupfukamunwa, imbere yabo hari abantu bahagaze imbere, hirya hakaba undi mugore wicaye hamwe.

Urubaho rufite ibara ry'umweru, ruteretse ku gikuta gifite irangi ry'icyatsi ndetse mu rubaho haragaragaramo amarangi menshi agiye atandukanye.

Icyumba gifitemo ikibaho gisa umweru kegetse ku gikuta nacyo gifite ibara ry'umweru hanze hari amadirishya afite ibara ry'icyatsi.

Intebe nyinshi zikozwe muri palasitike, zifite ibara ry'ubururu, ziri hamwe zitondetse ku murongo ku makaro ari mu cyumba gifite inkuta z'ibara ry'umweru.

Intebe ntoya zifite n'ameza bikoranye, ifite ibara ry'ubururu zanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, inyuma hari imbaho nyinshi zisize amarangi.

Abanyeshuri benshi bari mu cyumba kimwe, umwe muribo w'umukobwa ari guhengereza mu igikoresho kifashishwa mu gutubura ibintu bitoya bitagaragazwa n'ijisho.

Imbuto zitandukanye, zirimo inanasi, imineke ibiri ndetse na avoka ikase igaragaza ikibuto, biri ku gikuta kimwe.

Icyumba kirimo intebe za pulasitike zifite n'ameza yazo iri mu ibara ry'ubururu, ryanditseho amagambo y'umweru, hirya ku gikuta hari izuba ryinshi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba bagiye batandukanye, imbere ya buri umwe hari mudasobwa, bose bari kuzirebamo.

Abasore n'inkumi benshi cyane bicaye mu kibuga, barimo barizihiza umunsi mukuru wo kurangiza amashuri yabo ya kaminuza, bambaye amakanzu y'umukara n'ingofero z'umukara.

Icyumba kirimo mudasobwa, ziri ku meza n'abantu benshi barimo abasirikare, imbere hari umukuru w'Igihugu, ari kwitegereza imashini, afashe no ku ntebe imwe mu ziri muri icyo cyumba.

Kumeza y'urubaho, hateretse ikayi ku ruhande, ifite impapuro zisa umweru, yandikishijwemo ibara ry'ubururu, imbere yayo hateretse intebe zifite ibara ry'icyatsi.

Imbaho zifite ibara ry'umweru, zuzuyeho amabara atandukanye, kandi zegetse ku gikuta gifite ibara ry'icyatsi kijimye, hirya hari ahantu hacukutse kuri icyo gikuta.

Abantu benshi barimo abagabo, abagore n'abazungu, bari mu kayira kubakishijwe amatafari, inyuma yabo hari inyubako nini y'umweru, ku ruhande hari ubusitani buzengurutswe n'indabyo.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore barahagaze imbere y'ifoto iriho ikirangantego cya kaminuza nkuru y'u Rwanda, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, ibitabo ndetse n'amatelefone.

Inzira y'amatafari azengurutswe n'indabyo zizengurutse ikibuga cyibyatsi, ikomeza igana ku nyubako iri ku ruhande y'amabara y'umweru, imbere hari abantu babiri bari kuhagana.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi bicaye mu cyumba kimwe buri wese yicaye ku ntebe ye y'icyatsi n'umukara, imbere ku meza hateretse impapuro, amaterefone ngendanwa n'ibindi, imbere hateguye intebe enye ndetse n'aho bari bubigishirize.

Imbuto zigiye zitandukanye, zigabye muburyo bune: ubwa mbere harimo inanasi, imineke n'ibindi, hirya hakaza ibibabi, munsi hakaza imineke n'ibindi, kuruhande hakaza inanasi n'imineke, byegamweho n'umuntu w'ishati y'umweru.

Imbuga y'amatafari menshi, azengurutswe n'indabyo zizengurutse ibiti bigiye bitandukanye, biri ahantu mu byatsi.

Ikibaho gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'icyatsi yegeretse ku gikuta na cyo gifite ibara ry'umweru.

Abasore n'inkumi bari gutambuka, umwe muri bo w'ishati y'umweru, afite igitabo mu kaboko k'iburyo, mu kaboko k'ibumoso harimo amakaramu.

Ikibaho gifite ibara ry'umweru, nta kintu na kimwe cyanditseho, kegeretse ku gikuta, gifite ibara risa umuhondo wonyine.

Abantu bakuru biganjemo inkumi n'abasore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi n'umukara kumeza hateretse amakayi barateganye bari kuganira.

Abantu benshi biganjemo inkumi n'abasore, bari kugenda mu nzira zitandukanye, imbere y'inzu yanditseho ikirangantego cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Abanyeshuri benshi barimo inkumi n'abasore, basoje Kaminuza, bambaye amakanzu y'imikara, bari guterera ingofero zabo mu kirere, bishimira ko barangije amashuri bari mu byatsi.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe bose bambaye udupfukamuwa, munsi yabo hateretse amazi yo kunywa, umwe muri bo arimo yandikisha ikaramu y'ubururu, mu ikayi akikiye ku kibero.

Icyumba giteretsemo intebe ifite n'ameza byo mu bururu, imbere hari intebe ndende itukura n'ikibaho cy'umweru cyandikishijweho irindi bara.

Icyumba kirimo intebe eshatu z'ubururu zifite ameza bikoranye, biri ku makaro, ku gikuta cy'umweru nta kintu na kimwe kiriho, imbere hari imiryango ibonerana.

Icyumba kigizwe n'amakaro hasi n'inkuta zifite ibara ry'umuhondo, cyuzuyemo intebe nyinshi cyane za purasitike zifite n'ameza bikoranye, byose bifite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi bicaye mu ntebe bafite amakaramu bari kwandika, imbere yabo hagiye hateretse mudasobwa ndetse barimo bitegereza imbere bamwe muri bo.

Abantu benshi bari mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe zisa icyatsi n'umukara, imbere yabo hari umwe mu bagabo uri kubagezaho ijambo, inyuma ye hakaba ikibaho gifite ibara ry'mweru.

Ga yifashishijwe n'umuntu uri kubakisha umucanga, iteretse hasi aho bateretse umucanga, inyuma hari ibintu bifashishije mu kubaka, harimo urwego.

Abasore n'inkumi bicaye abandi barahagaze, benshi muri bo bakikiye impapuro z'umweru, abandi nta zo bafite, bambaye imyenda isa, amakanzu y'ubururu n'ingofero z'ubururu.

Abanyeshuri bamwe bari mu cyumba umwe muri bo w'imyenda y'imikara ari kwitegereza igikoresho cyifashishwa mu kwagura ibintu bitaboneshwa ijisho risanzwe, imbere yabo hari n'ibindi bintu byifashishwa mu kwiga.

Abasore n'inkumi bicaye hamwe bafite mudasobwa imwe bari kurebaho biga, umwe mu bakobwa akikiye igitabo, inyuma yabo hari abakobwa babiri bafite ibyo bari kuganira, umwe mu basore yahindukiye na we ari kubavugisha.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zisa, bari kwitegereza ibyo umugabo utambaye impuzankano ari kubereka, ndetse n'ikintu akikiye mu kuboko kwe kw'ibumoso, hirya hari abari kwandika mu makayi yabo.

Intebe za plastike zisa ubururu zifatanye nameza yayo zegetse kuruhande rumwe iburyo, ibumoso hari intebe ndende ifite ibara ritukura imbere yaho hari umuryango ubonerana.

Abantu batanu barimo abakobwa batatu ndetse n'abasore babiri biteretse imbere y'imashini na telefone umukobwa umwe muri bo arimo arandika ibintu akuye muri telefone, umusore wundi muri bo agafata ibintu akuye muri mudasobwa abyandika mu ikaye.

Umusore wambaye amadarubindi, ubwanwa bukeya n'ishati, inyuma ye harasa umukara ari mu ikayi ashushanyije kuri paje imwe.

Urubaho rufite ibara ry'umweru, rwuzuyeho amarangi agiye atandukanye, rwegetse ku gikuta gifite ibara ry'icyatsi kijimye.

Icyumba kirimo intebe nyinshi z'ubururu zifite ameza bikoranye, abantu babiri bazicayemo, umwe arahagaze ari kubaganiriza, inyuma ye hari umuryango ufunguye.

Abasore n'inkumi benshi bicaye mu cyumba kimwe, bari kwitegereza ahantu hamwe bose, ku meza bafite amakaramu ndetse n'aho kwandika.

Abanyeshuri bane babakobwa, umwe muri bo aricaye ku ntebe y'umukara, akikiye imashini bose bari kurebamo, bari guseka, inyuma yabo hari inyubako ndetse n'igiti.

Abasore n'inkumi bari mu cyumba kirimo intebe n'ameza, bamwe barahagaze abandi baricaye, barimo barandika abandi bari kureba imbere bitegereza.

Abanyeshuri benshi cyane bakuru bari mukirori cyo kwishimira isoza ry'ikciro cya kaminuza, bambaye amakanzu y'umukara n'ingofero z'imikara.

Abanyeshuri benshi cyane, barimo abasore n'inkumi bagaragaza ibyishimo baseka, bambaye ingofero z'imikara n'amakanzu asa imikara basoje kwiga.

Inyubako ifite igikuta gisa umweru, hasi hagasa umukara hanze hari imbuga y'amatafari ndetse n'ikintu gifite ibara ry'icyatsi bamenamo imyanda.

Abasore n'inkumi benshi cyane, bicaye mu cyumba kimwe, inyuma hari amadirishya afunguye, imbere hakaba abahagaze, barimo bababwira ibintu bitandukanye.

Urupapuro rugaragaza inzu nyinshi zitandukanye zifite amadirishya n'imiryango n'ibiti byinshi, hagati hakaturuka umugezi utemba harimo n'ubwato.

Imiryango y'imbaho zisize ibituma zibengerana, zinjira ahagana mu isomero nk'uko byanditse mu cyumba cya zeru, ra zeru, ikenda.

Abantu benshi barimo inkumi ndetse n'abasore, bicaye ahantu hamwe bambaye udupira tw'umukara, imbere yabo ku meza hateretse uducupa twinshi tw'amazi ndetse na telefone ngendanwa.

Abana b'abasore n'abakobwa, bicaye mu cyumba buri wese ku ntebe ye n'ameza ateretse imbere, barimo barakurikira ndetse baseka, buri wese afite ikayi imbere y'iwe yandikamo.

Icyumba kirimo intebe nyinshi ntoya z'ubururu zifite ameza bikoranye ndetse ninintebe y'urubaho ifite amaguru yicyuma, ku ruhande hateretse terefone ku ntebe ifite nayo ameza y'ubururu.

Ku gikuta gifite ibara ry'ubururu bwijimye, hateretse ibibaho bibiri by'umweru, buri cyose cyanditseho n'ibara ry'umukara, munsi hari aho bacomeka amashanyarazi, imbere hari ameza ateretseho ikaye y'umweru.

Abantu barimo abagabo n'abagore bicaye hamwe bafite amakaramu y'ubururu, n'impapuro z'umweru barimo barandika, benshi muri bo bambaye udupfukamunwa, n'uwahindukiye yambaye agapfukamunwa.

Ikibuga cy'amatafari menshi cyubatsemo inyubako yamabati ndetse n'inkingi ziyafashe, munsi hari imodoka ndetse n'imashini yifashishwa mu buhinzi, ku ruzitiro hegetse amagare.

Abanyeshuri benshi biganjemo inkumi n'abasore bicaye ku ntebe munsi y'ihema basoje kaminuza, buri umwe muri bo yambaye ikanzu y'umukara iriho ibendera ry'u Rwanda n'ingofero y'umukara.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi bambaye amakanzu y'ubururu arimo ibara ry'umutuku ndetse bateruye ingofero bigaragara nk'aho basoje amashuri, inyuma hari umudamu uteruye umwana mu kintu gisa umweru.

Abantu benshi cyane barimo abagabo, abagore n'abana, bicaye mu cyumba kinini cyane, ku meza yabo hari amazi ndetse n'amakaye, imbere hateguye intebe enye z'umukara ndetse n'aho bigishiriza.

Abasore benshi cyane bambaye amakanzu y'imikara ndetse n'ingofero z'umukara bari guterera hejuru basoje amashuri yisumbuye.

Ameza akozwe mu rubaho, hejuru yayo ateretseho amakayi na telefone ndetse n'amakaramu n'ikiganza cy'umuntu uri kubikoresha.

Inyubako ifite amabara y'umweru n'amategura, ku ruhande imbere handitse amagambo menshi mu mabara atandukanye, imbere yayo hari umukobwa uri kuhatambuka.

Abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe ubari hagati bagaragara ko basoje ikiciro cya kaminuza kuko bambaye amakanzu ndetse n'ingofero.

Umwana w'umukobwa ukikiye igikombe kirimo ibintu ari kugenda anywa mu kaboko k'iburyo, mu kaboko k'ibumoso harimo agakapu atwaramo ibintu.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba buri wese ku ntebe, inyuma hari amadirishya n'imiryango bikinguye n'inkuta zisa umweru.

Abantu benshi barimo abakobwa n'abahungu bambaye amakanzu n'ingofero by'abasoje kwiga kaminuza, inyuma yabo hari ikirangantego cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Abantu benshi barimo inkumi n'abasore bicaye mu cyumba kimwe imbere yabo hateretse mudasobwa, amakayi, amakaramu, amazi, na terefone ngendanwa.

Urubaho rufite ibara ry'umweru, ruriho amabara agiye atandukanye yanditsweho ndetse cyo gitereretse ku gikuta gifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Ibyatsi byinshi bizengurutswe n'indabyo, ku ruhande hari umuhanda w'amatafari, utambika ugana ku nyubako iri imbere, iri mu ibara ry'umweru, abantu bari kuganaho.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwandikishijweho ikaramu y'icyatsi amagambo menshi kuruhande hashushanyijeho igishushanyo cy'umutwe mu ibara ry'umutuku hirya hari ikintu cyubururu cyihateretse.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi, bambaye udupira twibara ry'icyatsi, bicaye hamwe mu mahugurwa, imbere yabo hari amamashini ya mudasobwa ndetse n'amazi.

Intebe nyinshi zikoranye n'ameza bifatanye, mu ibara ry'ubururu, buri ntebe yose yandikishijweho ibara ry'umweru, hasi hari amakaro, ku nkuta hari ibara risa umuhondo, inyuma hari imiryango.

Isakazamashusho ifite ibara ry'umukara, iteretse ku gikuta gifite ibara ry'umweru, ku ruhande hari ikindi kintu gifite ibara ry'umutuku, munsi hari aho bacomeka, hasi hari amakaro ku ruhande hakaba ameza.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe nyinshi z'ubururu n'ameza maremare ateretseho ibintu byinshi, ku gikuta hari ibishushanyo byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, imbere hari ikibaho cy'umweru cyandikishijweho ibara ry'umukara.

Abasore n'inkumi benshi bicaye hamwe ku ntebe imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa buri wese ari kuyirebamo, hari umukobwa uhagaze ari kuvugisha bamwe muri bo ndetse yashyize ikiganza ke k'iburyo mu ikaye.

Icyumba cy'amakaro n'inkuta z'umweru, kirimo intebe ikoranye n'ameza bifite ibara ry'ubururu yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, n'indi ntebe ndende y'umutuku n'ikibaho cy'umweru cyandikishijweho amabara y'ubururu n'umukara.